Aba ni abantu bikoreye ibitebo. Igitebo bagisoromeramo icyayi, bagisoromeramo ikawa, bagikuriramo ibijumba, bagikoriramo ibirayi, igitebo bagikuriramo imyumbati, igitebo bagikurimo n'amateke.

Ihene barazorora iyo zikuze barazibaga bazitekamo burushete, igiti barakibaza bagikuramo imbaho bazikoreshamo inzugi, bazikoreshamo intebe ,bazikoreshamo ameza.

Inzira bayinyuraho bajya ku isoko, amagi barayateka, insina bazitemaho amakoma yo guha inka, bazitemaho ibirere, imiyenzi bayubakisha uruzitiro, inzu bayiraramo, ipoto bayishyiraho amashanyarazi.